Abantu batatu, abagabo babiri n'umugore umwe bari gusoroma icyayi kandi bafite ibitebo mu mugongo batereramo icyo cyayi basoromye.

Umusozi ariko utazamuka cyane uriho ibimera bitandukanye byiganjemo ishyamba, ibimera biriho bifite ibara ry'icyatsi kibisi naho hagati ku musozi hari amabara y'umweru bigaragara yuko hari ibindi byatsi byagiye bihumira.